Ni icyapa cyanditseho Irembo n'imikorere yose batanga ndetse kiri iruhande rw'igipangu kinini gisi ibara ry'icyatsi, biragaragara ko ari ahantu muri karitsiye, hariho icyapa kiri kubayobora.